Abacuruzi b'inyongeramusaruro bari kuganira n'abaturage kugira ngo babigishe uburyo bashobora gukoresha inyongeramusaruro ndetse n'imbuto zinyuranye, inyuma yabo hari ububiko bw'inyongera musaruro nyinshi.

Umuhinzi w'umwuga, uri mu gikorwa cyo gutera umuti, mu gihingwa cy'umuceri, gihinze mu gishanga, kugira ngo azagire umusaruro uhagije, ndetse ashobore kwiteza imbere, mu bikorwa binyuranye bindi ashobora gukora.

Umukozi wabugenewe uhagaze ku ruhande rw'imyaka, akaba ari gukoresha ibikoresho byifashishwa mu gutera imiti mu myaka kugira ngo ibigori bihinze bizagire umusaruro mwiza na we abashe gutera imbere.

Umukozi wambaye imyambaro yabugenewe ifite ibara ry'icyatsi akaba ahetse igikoresho kifashishwa mu gutera imiti yica udukoko cyane cyane ikoreshwa mu buhinzi, ibi rero bituma ibihingwa bikura neza.

Umuhinzi w'umwuga, uri mu gikorwa cyo gutera imiti mu bihingwa bye kugira ngo abirinde indwara bizatange umusaruro ushimishije bityo yiteze imbere, ateze imbere umuryango we ndetse n'Igihugu muri rusange.

Umusore wambaye imyenda yabugenewe, ahagaze hafi y'ahantu hakorerwa ubuhinzi n'ubworozi, inyuma ye hari icyuzi gishobora gukoreshwa mu kuvomerera cyangwa se mu bworozi bw'amafi.

Ubworozi bukorerwa mu mazi, bushobora gutanga umusaruro uhagije w'amafi, aho abantu batandukanye bashobora kubona ibyo kurya, bikungahaye ku ntungamubiri, bityo bakagira ubuzima bwiza, buzira indwara bagashobora kwiteza imbere, bagakora n'ibikorwa bitandukanye.

Abarobyi benshi bari kumwe bari mu gikorwa cyo kuroba, barobye amafi menshi ari mu nshundura, aho buri wese afasheho kugira ngo barebe umusaruro bagize. Bizabafasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye.

Umubyeyi wicaye mu bwato akaba afashe ingashya bakoresha kugira ngo ubwato bugende, ubwato bushobora gukoreshwa mu burobyi bw'amafi bityo bigatanga umusaruro umurobyi akabona amafaranga ahagije yo gutunga urugo rwe.

Amafi meza y'ubwoko butandukanye bigaragara ko ari manini, ashobora kwifashishwa ku mafunguro y'ubwoko butandukanye kugira ngo umuntu uyariye abe ariye indyo yuzuye ndetse ashobore gukora byinshi kubera ko aba afite ubuzima bwiza.

Ahantu hatunganyijwe hagakorwa ibyuzi bishobora gukorerwamo ubworozi bw'amafi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bituma umworozi yiteza imbere binyuze mu gucuruza amafi ndetse no kubona ibyo kurya bihagije.

Ahantu heza hatunganyijwe hari ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi n'ubworozi aho hari ubuhinzi bw'urutoki hakaba hari n'ubworozi bushobora gukorwa bw'amafi kugira ngo umuhinzi yiteze imbere mu buryo butandukanye.

Umurobyi uhagaze mu bwato bw'igiti akaba ari kujugunya inshundura kugira ngo abashe kuroba arebe ko yabona umusaruro umufasha kwiteza imbere ndetse no kubona ibyo kurya byujuje intungamubiri.

Abarobyi babiri bahagaze ahantu hari amazi magari, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kuroba kugira ngo bashake umusaruro w'amafi, uzabafasha mu iterambere ryabo ndetse haboneka ibyo kurya bihagije ku bantu batandukanye.

Ahantu heza hatunganyijwe kugira ngo hakorerwe ubworozi bw'amafi bityo aborozi biteze imbere haboneke umusaruro uhagije ndetse ibyokurya biboneke mu baturage benshi, Igihugu gitera imbere kubera ko abantu bazaba bafite ubuzima bwiza.

Ahantu hanini hatunganyijwe, hagakorwa ibyuzi bikorerwamo ubworozi bw'amafi, hashobora gutanga umusaruro mwiza kugira ngo umworozi yiteze imbere, abone ibyo kurya bituruka ku mafi ndetse abone n'amafaranga ahagije.

Abantu batandukanye bahagaze ahantu hatunganyijwe hagakorwa icyuzi gishobora gukorerwamo ubworozi bw'amafi bikabafasha kwiteza imbere binyuze mu bucuruzi bw'amafi ndetse bakabona n'amafunguro ahagije ku miryango yabo.

Icyanya kiza cyatunganyirijwe kugira ngo gikorerwemo ubworozi bw'amafi, aho aborozi bifashisha ibikoresho bitandukanye, bakorora amafi bityo bikabateza imbere, ibyo kurya bikaboneka ari byinshi mu baturage.

Ahantu heza hatunganyijwe hagakoreshwa ihema bagashyiramo amazi ahagije yakifashishwa mu bworozi bw'amafi kugira ngo umworozi yiteze imbere ndetse haboneke n'ibyo kurya mu baturage batandukanye.

Ahantu hatunganyijwe neza mu gishanga ku buryo hubatse neza byatuma kororerwamo amafi bityo bigatuma umusaruro wiyongera, abantu batatu bahagaze ku ruhande umwe yambaye ishati y'umweru, abandi bambaye imikara.

Urubyiruko rutandukanye bihurije hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'uburobyi butanga umusaruro ushimishije w'amafi bityo bigatuma abantu benshi babona ibyo kurya ndetse bakagira n'ubukungu bufatika.

Umworozi w'amafi wambaye imyambaro yabugenewe, ari mu gikorwa cyo kuroba, aho uburobyi butanga umusaruro mwinshi bigatuma umworozi yiteza imbere ndetse abantu benshi batandukanye bakabona amafunguro yo kurya, bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakozi batandukanye bari ahantu hatunganyijwe kugira ngo hakorerwe igikorwa cyo korora amafi, bityo uburobyi bwabo butere imbere, bakurikirane umusaruro, babashe kwiteza imbere, bateze imbere n'Igihugu cyabo.

Ahantu hisanzuye hubatse inyubako, hatunganyijwe kugira ngo hakorerwe ubworozi bw'amafi binyuze mu cyuzi, abantu benshi baje kuhasura kugira ngo barebe uburyo habyazwa umusaruro.

Ahantu hatunganyijwe mu gishanga ku buryo hakorwamo icyuzi gishobora koroherwamo amafi, ku ruhande hari ubundi buhinzi bushobora kuhakorerwa ndetse hariyo abantu bahagaze, baje kugenzura ibikorwa byerekeranye n'ubworozi bw'amafi.

Ibyanya bitunganyijwe byo mu bishanga bikorerwamo ubworozi bw'amafi, aho aborozi benshi bahuza, bagashobora korora amafi, bakiteza imbere, bakabona ibyo kurya bihagije ndetse n'imiryango yabo ikabaho neza.

Abarobyi babiri bambaye imyambaro yabugenewe, bafite amashashi mu ntoki arimo umusaruro wabo w'amafi, aho bari kuroba mu byuzi batunganyije kugira ngo babyororeremo amafi bityo bagire iterambere rishimishije.

Abahinzi benshi batandukanye bishimiye umusaruro wabo w'amafi bakora hafi y'ibishanga, bityo bikabafasha kwiteza imbere bakabona ibyo kurya bihagije, imiryango yabo igatera imbere, ndetse n'abantu benshi bakabona ibyo kurya.

Umuhinzi wambaye ibyabugenewe umwambaro w'umuhondo umufasha kwirinda ibintu bigiye bitandukanye uri mu buhinzi bw'icyayi aho iki cyayi gishobora kumufasha kwiteza imbere akabona amafaranga ahagije amutunga agatunga n'umuryango we.

Igihingwa k'ikawa ni igihingwa ngengabukungu gifasha mu iterambere ry'Igihugu cyane cyane binyuze mu muturage ugihinga ashobora kubona amafaranga akiteza imbere, agateza imbere umuryango we bityo n'Igihugu kigatera imbere.

Abahinzi benshi batandukanye bari mu bikorwa byo gusarura umuceri mu bibaya, aho uyu muceri ushobora kubabera isoko y'iterambere binyuze mu bikorwa byabo, aho babona mu ibyo kurya ndetse bakabona n'amafaranga ahagije.

Igihingwa k'ikawa ryeze neza bigaragara ko rishobora gutanga umusaruro uhagije, umuhinzi akiteza imbere akabona amafaranga binyuze mu buhinzi bwe, agateza imbere Igihugu binyuze mu ko ikawa ryoherezwa hanze y'Igihugu rikinjiza amafaranga.

Igihingwa k'ikawa kimwe mu bihingwa ngengabukungu gifasha abaturage benshi kwiteza imbere binyuze mu buhinzi ndetse no gutunganya ikawa bityo Igihugu kigatera imbere ndetse n'abaturage ubwabo bakiteza imbere.

Umuhinzi ufite ibikoresho, ari kwifashisha mu gusarura ikawa, kimwe mu bihingwa ngengabukungu, bishobora gutuma yiteza imbere ndetse akagira umusaruro ushimishije, bigatuma n'igihugu gitera imbere.

Umuhinzi mwiza wishimiye imirimo ye, ufite amababi y'icyayi mu ntoki, bigaragara ko ubuhinzi akora bw'icyayi abwungukiramo ndetse abwishimira, akabasha kwiteza imbere, agateza imbere n'umuryango we ndetse n'Igihugu.

Umuhinzi w'icyayi uri kumwe na bagenzi be mu gikorwa cyo gusarura kugira ngo bagire iterambere rishimishije bityo imiryango yabo itere imbere, Igihugu gitere imbere binyuze mu kohereza hanze icyayi.

Igihingwa k'ikawa gifatwa nka kimwe mu bihingwa ngengwabukungu, iyo kitari cyera biba ari ngombwa ko cyitabwaho cyane, kigaterwa imiti ihagije kugira ngo birinde udukoko dushobora kuryangiza bityo bitange umusaruro ushimishije.

Abahinzi batandukanye bakorera ibikorwa byabo by'ubuhinzi mu gishanga bari mu gikorwa cyo kubagara umuceri kugira ngo barwanyemo ibyatsi bishobora gutuma utera neza bityo bazagire umusaruro ushimishije.

SAbahinzi batandukanye bahinga icyayi mu misozi miremire, aho icyayi gifatwa nk'igihingwa ngengabukungu gishobora kubafasha kwiteza imbere bakagira ubuzima bwiza bakagira ubukungu buhagije, ndetse n'Igihugu kigatera imbere.

Abahinzi benshi batandukanye, bicaye ahantu mu murima, bari gusarura umuceri kugira ngo babone iterambere rishimishije bityo imiryango yabo itere imbere ndetse babone ibyoku kurya bihagije n'Igihugu gitere imbere.

Abahinzi batandukanye bambaye bijyanye n'umwuga wabo, bafite ikawa mu ntoki ndetse imbere yabo hateretse imifuka, bigaragara ko bishimiye ibikorwa byabo ndetse n'umusaruro babona bawitezeho iterambere.

Umuhinzi w'umuceri uhagaze hagati mu murima w'umuceri, bikaba bigaragara ko umuceri witaweho neza, bityo bikazatanga umusaruro ushimishije kugeza aho umuturage yakwiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we.

Imisozi ifite ubuhame buringaniye ihinzeho igihingwa cy'icyayi gifatwa nki'gi...

Imisozi miremire ihinzeho icyayi, igihingwa gifatwa nkaho ari ngengabukungu gifasha abaturage rero kwiteza imbere binyuze mu buhinzi bwacyo, aho binjiza amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo n'Igihugu kigatera imbere.

Abasaruzi batatu bari kumwe bigaragara ko bari kwita ku gihingwa cyabo cy'ikawa kimwe mu bihingwa ngengabukungu gifasha abantu benshi kwiteza imbere binyuze mu bucuruzi bw'ikawa bushobora gukorwa hanze y'igihugu.

Umuhinzi w'ikawa ubikora kinyamwuga, aho ikawa rifatwa nk'inkingwa ngengabukungu gishobora kumufasha kwiteza imbere akagira ubukungu buhagije, agateza imbere umuryango we, agateza imbere n'Igihugu muri rusange, binyuze mu bucuruzi bw'ikawa.

Umuhinzi w'ikawa wambaye imyenda y'amabara avanze harimo igitambaro cy'umutuku ndetse n'ikanzu irimo amabara y'umukara n'umuhondo ari mu gikorwa cyo gusarura ikawa kugira ngo akomeze kwiteza imbere.

Umuhinzi w'ikawa uhagaze ari kwerekana icyapa ,yambaye ishati y'amabara avanze, umukara n'umweru, ndetse akaba yambaye n'ipantaro, ubuhinzi bw'ikawa rero buzamufasha kwiteza imbere ,ateze imbere n'umuryango we.

Umuhinzi w'ikawa wambaye imyenda y'ubururu, ari mu murima we, aho ari mu gikorwa cyo gusarura ikawa, bizamufasha kwiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we, bityo bakagira ubukungu bufatika.

Ububiko bwiza bwateguwe bugizwe n'amacupa y'ubwoko butandukanye, abitsemo imiti yifashisha mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo umworozi agire umusaruro ushimishije kubera ko amatungo ye aba yahawe imiti yo kuyafasha.

Ububiko bwiza burimo amacupa ndetse n'ibikarito bibikwamo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo itange umusaruro ndetse amatungo akure neza umworozi agire umusaruro yifuza.

Mu bubiko butandukanye burimo imiti y'amatungo ibitse mu bikarito, bifite amabara atandukanye harimo: umutuku, umukara, umweru. Iyi miti rero yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo atange umusaruro ushimishije.

Ububiko bwiza buteguwe bubitsemo imiti y'amatungo y'ubwoko bwinshi, ifasha mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo umworozi abashe kugira umusaruro mwiza, abifashijwemo n'abaganga b'amatungo.

Ububiko bwiza bwateguwe ,kugira ngo bubikwemo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo atange umusaruro, ndetse atange n'iterambere ku mworozi, ndetse no ku gihugu.

Ububiko bwiza bwateguwe bubikwamo imiti y'amatungo kugira ngo amatungo ashobore kubaho neza ndetse atange umusaruro mwiza umworozi ashobore kugira umusaruro yiteze imbere ateze imbere n'umuryango we.

Ububiko bwiza burimo ibikarito by'ubwoko butandukanye bibitsemo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse abashe gutanga umusaruro, umworozi wayo agire iterambere riturutse ku bworozi akora.

Ububiko bwiza butunganyijwe burimo imiti itandukanye, ishobora kwifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo atange umusaruro ndetse agire ubuzima bwiza, umworozi yiteze imbere binyuze mu bworozi ndetse abantu benshi babone ibyo kurya.

Ububiko bwiza bw'imiti, ikoreshwa mu buvuzi bw'amatungo, ibitse mu ducupa dufite ibara ry'umukara ndetse n'imifuniko y'umutuku, iyi miti yifashishwa kugira ngo amatungo yongererwe imbaraga ndetse umworozi agire umusaruro ushimishije.

Ububiko bwiza butunganyijwe bubitsemo amacupa y'ubwoko butandukanye, harimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo akure neza ndetse atange umusaruro mwiza ku mworozi, ashobore kwiteza imbere.

Igikoresho kiza gifashwe n'ikiganza cy'umuntu ikindi gice cyacyo kikaba kirambitswe hasi, gifite amabara y'icyatsi kijimye ndetse aho bafata hafite ibara ry'umukara, iki gishobora kwifashishwa mu mirimo itandukanye.

lcupa riri mu bwoko bw'ikirahure ririmo imiti y'amatungo, ishobora kwifashishwa mu buvuzi kugira ngo amatungo agire ubuzima bwiza, akure neza ndetse atange umusaruro ku mworozi, bityo ashobore kwiteza imbere.

Ububiko bw'imiti yabugenewe yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, aho imiti ishobora kwifashishwa kugira ngo itungo ryongererwe imbaraga ndetse ryongerwe n'umusaruro rishobora gutanga bityo, umworozi yiteza imbere ndetse agire n'ubukungu.

lmiti myinshi igiye inyuranye y'amatungo ,yifashishwa mu buvuzi kugira ngo amatungo akure neza ,agire ubuzima bwiza ashobore gutanga umusaruro, umworozi atera imbere, ateze imbere umuryango we, ndetse ateza imbere n'igihugu.

Ububiko bw'imiti burimo amacupa y'ubwoko butandukanye ,habitsemo imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'amatungo, kugira ngo amatungo agire ubuzima bwiza ,ndetse atange umusaruro ushimishije umworozi atere imbere.

Ububiko bwiza buteguye burimo imiti y'ubwoko bwose, yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo amatungo agire imbaraga ndetse agire umusaruro ushimishije, bitume umworozi yiteza imbere.

Ububiko bunini buhagije burimo imiti y'amatungo yifashishwa mu buvuzi kugira ngo amatungo akure neza agire ubuzima bwiza abashe gutanga umusaruro umworozi yiteza imbere ndetse ateza imbere n'umuryango we n'igihugu.

Ububiko bwiza butunganyijwe bubitsemo ibikoresho birimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, ni bimwe mu bigira uruhare mu iterambere ry'abahinzi aho amatungo akurikiranwa agatanga umusaruro mwiza.

Ububiko bukozwe neza bubitsemo imiti myinshi itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo atange umusaruro mwiza umworozi yifuza abashe kwiteza imbere biciye mu bikorwa bye ndetse atange n'umusanzu we ku Gihugu.

Ububiko butandukanye burimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, ifasha amatungo ahanini mu kugira ubuzima bwiza, bityo agatanga umusaruro, bigatuma umworozi atera imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we.

Ububiko butunganyijwe burimo imiti y'ubwoko butandukanye, yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, ni imwe mu miti igira uruhare mu iterambere ry'aborozi kuko bagira umusaruro ufatika, bitewe n'uko babonye imiti.

Icupa rinini, ririmo umuti ushobora kwifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo arusheho gutanga umusaruro, umworozi atere imbere, abone ibyo kurya bihagije, abone n'amafaranga, yifashisha mu mirimo ye ya buri munsi.

Ibikoresho bitandukanye bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'akandi gafite ibara ry'umutuku bibitse mu ishashi byiyifashishwa mu buhinzi n'ubworozi igihe bashaka gushyira nomero ku matungo anyuranye.

Ububiko bwiza butunganyijwe burimo imiti y'amoko menshi atandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo, ishobora gutuma umworozi agira umusaruro mwiza, bityo akiteza imbere, agateza imbere n'urugo rwe.

Ububiko butunganyije neza bubitsemo amacupa menshi y'imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse ashobore gutanga umusaruro umuhinzi yiteze imbere ndetse n'Igihugu gitere imbere.

Ububiko butunganyijwe neza burimo imiti y'amatungo abitse mu bikarito bitandukanye, iyi miti ifasha amatungo gukura neza ndetse no gutanga umusaruro ushimishije, bityo umuhinzi akiteza imbere, agateza imbere n'Igihugu muri rusange.

Umuhanda cyangwa se inzira nyabagendwa, ishobora kwifashishwa mu bikorwa bitandukanye, harimo kugenderana kw'abantu ndetse no gutwarwa kw'ibintu bitandukanye, harimo kuba hashobora gucamo amatungo cyangwa se abantu.

Umuhinzi mworozi uhagaze mu murima, inyuma ye hakaba hari ibihingwa bitandukanye, hahinzemo ibigori, ibitoki ndetse n'ibishyimbo, akaba ahagaze mu buryo ari kwerekanamo igipapuro.

Umuhinzi wunamye mu bikorwa byo guhinga mu gishanga, akaba ari gukora ibyerekeranye n'ubuhinzi bw'umuceri, aho uyu muceri niwera uzamubyarira umusaruro bigatuma yiteza imbere agateza imbere n'urugo rwe.

Umuhinzi wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umuhondo yunamye ari gukora hasi mu gikorwa cyo gubagara imbuto ze z'ibigori kugira ngo azagire umusaruro uhagije, abashe kwiteza imbere, ateze imbere n'urugo rwe.

Abashumba benshi batandukanye, bari kumwe n'inka zabo z'amabara atandukanye, bari mu rwuri aho rukikijwe n'amashyamba, aba rero baramutse bakurikiranye neza umusaruro wabo, byatanga iterambere kuri bo ndetse no ku borozi muri rusange.

Abahinzi babiri umugabo n'umugore, bigaragara ko bishimiye ibikorwa byabo, bafite amasuka ku rutugu, inyuma yabo bigaragara ko hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi bw'urutoki, n'ibigori n'ibindi bintu bitandukanye.

Umuhinzi uhagaze yishimye afashe ingemwe ebyiri mu maboko yombi akaboko k'iburyo n'ak'ibumoso akaba yambaye imyenda y'ubururu, inyuma ye hari abantu benshi bigaragara ko bari mu gikorwa cyo gutera ibiti.

Abahinzi benshi, bari mu gikorwa cyo kubagara umuceri, igihingwa gihingwa mu bishanga, kikaba kizwiho guteza imbere abaturage benshi, binyuze mu bukungu ndetse no kubona ibyo kurya bihagije, bigatuma igihugu gitera imbere.

Abahinzi babiri, bari mu gikorwa cyo gutunganya ingemwe, zizifashishwa mu buhinzi kugira ngo abahinzi babone imbuto zihagije, bashobore kugira umusaruro uhagije, biteza imbere, bateze imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu gitera imbere.

Abantu benshi batandukanye bari mu busitani bw'ikigo, aho bari mu gikorwa cyo gutera igiti, umwana uhagaze hirya yabo afashe igiti kitaraterwa mu ntoki, yiteguye kukibaha kugira ngo na cyo bagitere.

Abahinzi batandukanye bari mu gikorwa cyo kwita ku buhinzi mu gihe iyo bukozwe neza butanga umusaruro umuhinzi agashobora gutera imbere akabona ibyo kurya bihagije kimwe n'abaturanyi ndetse akabona n'amafaranga.

Ahantu hanini hatunganyijwe, hateguriwe kugira ngo hatuburirwe ingemwe z'ibiti, bityo bizafashe abahinzi babikeneye kubibona kandi bihagije kugira ngo bitange umusaruro ukenewe n'abaturage bose.

Aborozi benshi bateraniye ahantu hamwe hakorerwa ubworozi bw'inka, bigaragara ko zibayeho neza, bityo umworozi wazoroye ashobora kubaha amakuru y'ingenzi yabafasha na bo mu korora inka zabo.

Igice k'ishyamba kirimo inzira ahari ibyatsi bigufi ndetse bikaba bikikijwe n'ibiti birebire by'amashyamba ashobora kwifashishwa mu buryo butandukanye, harimo abahinzi babiri b'abategarugori bari kunyura muri iyo nzira.

Aborozi batandukanye aho umwe yambaye imyenda y'umweru undi akaba yambaye umukara bari gukurikirana ubworozi bw'inka kugira ngo zigire umusaruro uhagije bashobore kubona iterambere ryabo ndetse babone n'ibyo kurya bihagije.

Abahinzi batandukanye bicaye mu murima w'inanasi, bakaba bambaye udupfukamunwa bigaragara ko bicaye bahanye intera kugira ngo baganire ku musaruro wabo n'uburyo wabateza imbere.

Umuhinzi wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, usutamye, ari gutera igiti kugira ngo abungabunge ibidukikije bityo hazaboneke ubwirinzi buhagije ku myuka mibi yo mu kirere.

Ahantu hatunganyijwe neza hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi bugezweho hari ibikoresho byifashishwa mu kuhira kugira ngo ibihingwa bibone amazi abitunga bityo bitange umusaruro ushimishije.

Umuhinzi uhagaze mu murima we, ari mu gikorwa cyo gusarura ibigori, bigaragara ko yagize umusaruro mwiza, bityo bikaba bizamufasha kwiteza imbere ndetse akabona ibyo kurya bihagije mu rugo n'umuryango we ugatera imbere.

Abantu benshi batandukanye bahuriye ahantu hamwe, aho ugaragara cyane afite igiti mu ntoki, bigaragara ko ibikorwa biri kuhabera ari ibyo gutera ibiti bityo rero bazabasha gukora ubusitani bwiza, abantu bose bajye bahasura.

Abahinzi babiri bahagaze mu gishanga umwe azamuye isuka mu gihe uwundi ahagaze, bari guhinga mu gishanga mu bikorwa byo kugira ngo bagitegure bazashobore kugihingamo ibihingwa bitandukanye harimo umuceri cyangwa se nk'ibigori.

Umuhinzi wambaye umupira w'icyatsi, wunamye ari kwita ku rubuto rw'igiti cya avoka kugira ngo abashe gutuma rukura neza, arushyireho ibyo rukeneye kugira ngo rubashe gutanga umusaruro mwiza, hanyuma azabone inyungu.

Igishanga kinini gitunganyijwe kirimo umuceri weze, bigaragara ko abahinzi bawuhinze nibakomeza kuwukurikirana neza, bazagira umusaruro ushimishije bityo bakiteza imbere ndetse bakabona n'ibyo kurya bihagije.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo imyumbati, ibigori, ndetse n'ibindi, bigira uruhare mu iterambere ry'umuturage, aho bishobora kumufasha mu kwiteza imbere, biciye mu kubona ibyo kurya ndetse no gusagurira amasoko.

Ubuhinzi butandukanye bukorerwa mu bishanga aho hahinze intoryi hakaba hahinzemo n'imigozi y'ibijumba bikaba bishobora kuba bimwe mu bihingwa byateza imbere umuturage ndetse bikamuzanira n'ibyo kurya bihagije.

Ubuso bunini buhinzeho ibihingwa by'ibigori bushobora gufasha abantu kugira iterambere ndetse bigatuma n'Igihugu gitera imbere binyuze mu buhinzi abantu babona ibyo kurya ndetse bakabasha kunguka n'amafaranga.

Ibiribwa nk'intoryi bishobora kwifashishwa mu kongera indyo yuzuye uwabiriye akagira ubuzima buzira umuze, akagira imbaraga ndetse agashobora gukora imirimo itandukanye.

Ibigori byiza bifite impeke nziza z'umuhondo, ni ibigori bishobora kugira umumaro munini, aho uwabihinze ashobora gutera imbere hakaboneka ibyo kurya bihagije ndetse n'igihugu kigatera imbere binyuze mu bucuruzi bw'ibigori.

Ibisigazwa birimo ibigori bitakuze neza ndetse n'ibiti by'ibigori biri mu murima aho utunganyijwe kugira ngo uzakorerwemo ubuhinzi mu bihe bikurikiyeho bityo umuhinzi yiteze imbere.

Ubuhinzi bw'imboga ni bumwe mu bikorwa bigira uruhare mu iterambere ry'abaturage ndetse n'iry'Igihugu muri rusange, aho imboga zifatwa nk'ifunguro, zishobora gutuma abantu bagira ubuzima bwiza, bagashobora gukora imirimo yose ya buri munsi.

Ibihingwa bitandukanye harimo imyumbati, imyumbati ishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye ikifashishwa nk'ibiribwa, amababi y'imyumbati araribwa ndetse n'imizi ari yo ifatwa nk'imyumbati na yo ikaribwa.

Ahantu hatunganyijwe umuhanda ukikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, bishobora kugira uruhare mu iterambere ry'Igihugu, aho ibiti byakoreshwa mu nyubako cyangwa bigakoreshwa nk'inkwi cyangwa bigakoreshwa mu kurinda umwuka mubi mu kirere.

Umurima udatunganyije neza uhinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo imyumbati hirya yayo hakaba hari ibindi byatsi ndetse muri uwo murima harimo ibyatsi byumye, bigaragara ko byakwifashishwa mu gukora ifumbire.

Igihingwa nk'umuceri gihingwa mu bishanga byinshi usanga gifasha abaturage benshi mu buryo butandukanye aho babona ibyo kurya bivuye mu muceri, bakabona amafaranga yinjiye avuye mu buhinzi baba bakoze.

Umurima w'intangarugero urimo ibikorwa bitandukanye by'ibirayi, aho biri gusarurwa kugira ngo bijyanwe ku isoko bityo umucuruzi yiteza imbere haboneke ibyo kurya ku bantu benshi ndetse n'igihugu bikemuke amafaranga.

Ibihingwa bitandukanye bishobora guhingwa ahantu henshi harimo imigozi y'ibijumba, aho ibijumba byera mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu, biteza abaturage imbere ndetse bigatuma babona ibyo kurya bihagije.

Umuntu umwe uhagaze mu gishanga ari mu gikorwa cy'ubuhinzi bw'umuceri, umuceri kimwe mu bihingwa bifatwa nk'ibiribwa biboneka ahantu henshi bifasha umuhinzi rero kwiteza imbere agashobora no guteza imbere urugo rwe.

Ibiribwa byinshi bitandukanye, birimo imbuto n'imboga, ushobora kugira uruhare mu gutegura indyo yuzuye, iyo umuntu yabikoresheje bituma agira imbaraga ndetse akagira umubiri uzira indwara.

Ibiti by'ubwoko butandukanye bigira uruhare mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo nk'ibiti bishobora gutanga imboga ziribwa bityo umuntu akarya indyo yuzuye bigatuma agira ubuzima bwiza agashobora gukora imirimo itandukanye.

Ubuhinzi bw'imbuto bukorewe ku buso bunini, bushobora kugira uruhare mu iterambere, aho umuhinzi atera imbere ndetse abantu benshi batandukanye, bakabona ibyo kurya, imbuto ni zimwe mu zituma ifunguro riba iryuzuye.

Agace gahinzemo ibihingwa bitandukanye birimo ibiribwa ndetse n'ibivangwa n'amatungo, harimo urutoki hakabamo ibigori, amapapayi ndetse n'ibindi biti bishobora kwifashishwa mu mirimo itandukanye, ibi byose rero bishobora gutuma iterambere ry'igihugu ryiyongera.

Umurima munini ugaragara urimo ibihingwa bitandukanye, harimo imbuto ziribwa ndetse n'ibiti bivangwa n'imyaka, ibi byose bishobora gufasha umuhinzi kwiteza imbere, binyuze muri ibi bikorwa by'ubuhinzi.

Ibiti byinshi by'ikawa bihinze ahantu mu misozi miremire bikaba bivanze n'iyindi myaka harimo urutoki, ibi rero bishobora gufasha umuhinzi kwiteza imbere agateza imbere urugo rwe ndetse n'umuryango we.

Umurima ufite ubuso bunini utunganyije neza ukaba uhinzemo amashu, umuhinzi azifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo abone umusaruro uhagije, ashobore kwiteza imbere ndetse ateze imbere n'umuryango we haboneke n'ibyo kurya.

Ahantu hanini hatunganyijwe hagakorerwa ubuhinzi butandukanye bw'ibigori aho abahinzi bahuza ubutaka bakabasha kugira umusaruro mwinshi, si ibyo gusa kandi ku ruhande na ho hari ibiti binyuranye byifashishwa mu mirimo itandukanye.

Ibitunguru bihinze mu murima udatunganyije neza, aho bigaragara ko harimo n'ibindi byatsi, bituma umusaruro wari kuzagirwa n'umuhinzi uba muke kubera ko atakurikiranye ubuhinzi bwe neza.

Ikibaya kinini kidatunganyijwe, gishobora gukorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi butandukanye, haba ubuhinzi bw'ibigori cyangwa se izindi mbuto, aho abahinzi bakwihuza bakagira umusaruro mwiza, bakabasha kwiteza imbere.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye birimo urusenda, bigira uruhare mu iterambere ry'umuturage, aho rushobora kumufasha kwiteza imbere binyuze mu bucuruzi bw'urusenda, aho arugurirwa n'abantu batandukanye cyangwa se n'inganda.

Ibimera bitandukanye biri mu butaka budatunganyije aho harimo igiti k'imyumbati, ibiti bya gereveriya bishobora kuvangwa n'imyaka ndetse hakaba harimo n'imbuto nk'imyembe bishobora kugira uruhare mu iterambere ry'umuturage.

Ahantu heza hatunganyijwe, hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi bw'imyumbati, bushobora gutuma hiyongera iterambere ry'abaturage kubera ko imyumbati ni kimwe mu bihingwa bigira umusaruro mwinshi.

Ahantu heza hari inzira nyabagendwa zishobora kunyurwamo na ba mukerarugendo kugira bagere aho bashaka kujya gusura, bityo byinjize amafaranga ku gihugu ndetse n'abaturage batuye hafi babone ibyiza birimo iterambere.

Ibice by'imisozi bigizwe n'ibimera by'ubwoko butandukanye, bigaragara nkaho ari parike ishobora kugira uruhare mu iterambere ry'Igihugu, binyuze mu bukerarugendo aho abantu benshi bayisura bagatanga amafaranga.

Ikibaya gikikijwe n'imisozi kirimo umugezi munini utemba, hakaba hafi y'aho hari ibiti bishobora kugira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, aho hashobora gusurwa na ba mukerarugendo hakinjiza amafaranga.

Umusozi udahanamye cyane, uhinzeho ibiti by'ubwoko bwose cyane cyane ishyamba, Rshobora kugira umumaro mu buzima bw'abantu, aho ibiti bishobora kwifashishwa nk'inkwi cyangwa bikifashishwa mu nyubako zitandukanye.

Ahantu heza hari ubusitani bwiza bugizwe n'ibimera by'ubwoko butandukanye harimo ibiti, ibyatsi, bishobora kugira uruhare runini mu iterambere ry'Igihugu aho ibiti bishobora gukoreshwa mu kubona inkwi cyangwa se gukora ibindi bikoresho byakwifashishwa mu nzu.

Igice kigizwe n'imisozi miremire ihinzeho ibihingwa bitandukanye, hakaba hari n'umuhanda unyurwamo n'abantu benshi batandukanye, bityo bikorohereza itumanaho ndetse n'itwarwa ry'ibintu bitandukanye.

Ibyiza nyaburanga birimo parike ni bimwe mu bikorwaremezo byifashishwa mu kongera iterambere ry'Igihugu, aho abantu benshi batandukanye bashobora kuyisura bikinjiriza amafaranga Igihugu.

Ahantu heza hari amazi magari atemba hakaba hakikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye bishobora kugira uruhare mu iterambere ry'Igihugu binyuze mu bukerarugendo ndetse bikanatanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Ahantu heza hari ibimera binini bikikije umuhanda uri gucamo imodoka bigaragara ko ibi biti bishobora kugira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu binyuze mu bikorwa bishobora kuhakorerwa.

Ibice bigizwe n'imisozi miremire, bigaragaramo ibiti by'amashyamba byinshi, hakorerwamo ubuhinzi bw'icyayi kizwi nk'igihingwa ngengabukungu, gifasha abaturage mu kwiteza imbere ndetse ibiti na byo bigira umusaruro, aho bishobora kwifashishwa mu bwubatsi cyangwa iyindi mirimo.

Ni urwuri runini rushobora gukorerwamo imirimo itandukanye harimo ibiti by'ubwoko bwinshi bishobora kwifashishwa mu bworozi kugira ngo umworozi ashobore korora neza agire umusaruro ushimishije ndetse yiteze imbere.

Abantu benshi batandukanye bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko bari gukurikira ibiganiro ku nama bashobora guhabwa n'abantu batandukanye bityo bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bakiteza imbere bagateza imbere n'ingo zabo.

Urwuri rutunganyije rurimo ibikorwa bitandukanye aho hashobora gukorerwamo ubworozi bw'inka cyangwa andi matungo bigatuma umworozi yiteza imbere akabona umusaruro uhagije, umukamo cyangwa se inyama byatuma yiteza imbere.

Ahantu hanini hagaragara ibimera by'ubwoko butandukanye, harimo: ibyatsi bikuru, amashyamba ashobora kugira uruhare mu bikorwa birimo ubwubatsi ndetse n'ibikorwaremezo nk'ibyakwifashishwa mu nzu zitandukanye.

Ahantu hanini hahinze ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo igiti gifite amashami manini bigaragara ko hasi hari ibihingwa bitari birebire cyane, bishobora gukura na byo bigatanga umusaruro ku muhinzi.

Ikibaya kinini kigaragara ko kidatunganyijwe hacamo umugezi munini cyane ushobora kwifashishwa mu bikorwa bitandukanye, harimo ubworozi bw'amafi ndetse n'ibindi bikorwa nko kuhira imyaka yo ku musozi.

Igice kigizwe n'imisozi miremire kirimo ibikorwa byinshi bitandukanye harimo ubuhinzi bw'icyayi, mu misozi yindi harimo igihu bigaragara ko hari ubukonje bufatika bushobora gutuma hashobora gukorerwa ibikorwa by'ubuhinzi.

Abahinzi benshi batandukanye bari mu gikorwa cyo gukurikirana ubuhinzi bwabo bw'amatunda, kugira ngo natanga umusaruro ngo bazabashe kwiteza imbere ndetse bateze imbere n'imiryango yabo biturutse mu bucuruzi, bushobora gukorwa buturutse mu guhinga amatunda.

Abahinzi benshi batandukanye bicaye mu murima uhingwamo inanasi bambaye udupfukamunwa kugira ngo bashobore kwirinda udukoko dushobora kubajyaho bityo umusaruro wabo bawukurikirane neza cyane.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho no guhinga imbuto aho imyembe ifatwa nk'imbuto zikunzwe cyane zishobora gufasha mu igogora uwaziriye akagira ubuzima bwiza akagira imbaraga zo gukora ndetse akiteza imbere muri rusange.

Igice cyatunganyijwe neza kugira ngo gishobore gukorerwamo ubutuzi bw'ibihingwa bitandukanye, harimo igihingwa gishobora gutanga imbuto ziribwa, zikabyara umusaruro ndetse uwabikoze akiteza imbere.

Ibiribwa by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo: ibitunguru, amashu, inyanya n'ibindi byinshi bitandukanye, bishobora gufasha mu kubona indyo yuzuye ndetse bigatanga imirire myiza ku bantu bose.

Ibiribwa by'ubwoko bwinshi bitandukanye birimo ibinyampeke ndetse n'imbuto ni bimwe mu bigira uruhare mu kugira ifunguro ryuzuye, bigatuma uwariye ifunguro ryuzuye agira imbaraga ndetse umubiri we ugakora neza.

Abahinzi benshi batandukanye bahagaze inyuma y'umwe uri kugira ibyo abereka bijyanye n'ubumenyi bakeneye ku buhinzi kugira ngo bagire umusaruro uhagije biteze imbere.

Ubuhinzi bw'umwuga bukorewe ahantu hatunganyijwe neza, aho imboga zishobora gutunganywa zigakura neza ndetse bigatanga umusaruro mwinshi. Umuhinzi akagira umusaruro uhagije ndetse akiteza imbere.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere bwo guhinga ibishyimbo, aho bihinze ahantu hatunganyije neza, ku buryo no mu gihe cy'izuba, hashobora kubaho uburyo bwo kuhira kugira ngo bitange umusaruro ushimishije.

Ahantu heza hatunganyijwe hagenewe gukorerwa ibikorwa by'ubuhinzi birimo ubuhinzi bw'imboga, zishobora kwifashishwa mu kongera indyo yuzuye mu bantu batandukanye, bityo bakagira ubuzima bwiza, bagashobora kwiteza imbere.

Umuhinzi w'imboga wambaye neza umupira w'umweru afite imboga mu ntoki, izi mboga rero zigira uruhare mu gutuma abantu babona indyo yuzuye bityo bakagira ubuzima buzira umuze, bagashobora kwiteza imbere kubera ko nta bibazo baba bafite mu buzima.

Abakozi bambaye imyambaro yabugenewe, bashinzwe gutunganya imbuto z'avoka, bakazibika mu buryo bukwiriye kugira ngo zitangirika, bityo zibashe gucuruzwa ahantu hatandukanye, abahinzi bazo na bo babone inyungu ishimishije.

Ahantu heza hatunganyijwe, hagakorerwa ubuhinzi bw'imbuto, aho abahinzi ku ruhande bari mu gikorwa cyo gusarura ndetse no gukusanya imbuto kugira ngo bashake umusaruro uhagije, bashobore kwiteza imbere.

Ahantu heza hatunganyijwe, hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi bw'indabo, indabo rero ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu na byo bishobora gufasha igihugu mu iterambere, aho abahinzi bazitunganya, zikoherezwa hanze, zikinjiza amadovize.

Isoko rinini ririmo ibyokurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo intoryi, pavuro, inyanya amashu n'ibindi byose bishobora gukenerwa kugira ngo hategurwe indyo yuzuye, uwayiriye agire ubuzima bwiza.

Umuhinzi uri gukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi bw'indabo, aho ubuhinzi bw'indabo bufasha mu iterambere ry'Igihugu ndetse n'iry'abaturage bose babukora kuko byinjiza amafaranga ahagije, ashobora gufasha mu iterambere.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukorewe ku buso buhuje, aho igihingwa kimwe gishobora guhingwa ahantu hanini cyane, bityo bikongera ingano y'umusaruro ushobora kuboneka, bigatuma umuhinzi abona ibyorya bihagije akiteza imbere agateza imbere n'igihugu.

Umusaruro mwiza w'ibishyimbo cyane cyane imiteja ushobora kwifashishwa mu buryo butandukanye aho ushobora kuvamo amafaranga menshi ku muhinzi ndetse no ku bantu batandukanye bikabonekamo ibyo kurya.

Isoko rinini, ririmo abacuruzi ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye, harimo inyanya zishobora kwifashishwa mu gutegura amafunguro kugira ngo abantu babone ibyo kurya, birimo intungamubiri zuzuye, bityo bagire imbaraga, bagire n'umubiri, ufite ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho bukorewe ahantu hateguwe, habugenewe, bituma umusaruro wiyongera ndetse ibihingwa bihinze bikabasha kubona intungaghingwa zikenewe kugira ngo bikure neza bityo umuhinzi akagira umusaruro uhagije.

Ahantu heza hatunganyijwe, hashobora gukorerwa ibikorwa by'ubuhinzi butandukanye, hifashishwa uburyo bwo kuhira imyaka bugezweho kugira ngo umusaruro mwiza uboneke, umuhinzi atere imbere ndetse n'abandi babone ibyo kurya bihagije.

Mu buhinzi bwa kijyambere bukozwe hifashishijwe ibikoresho byo kuhira, butuma ibihingwa bibona amazi ahagije bityo bigakura neza bigatanga umusaruro uhagije umuhinzi yifuza, bigatuma agera ku iterambere ndetse hakaboneka ibyo kurya bihagije.

Ubuhinzi bw'ibigori bukorwa ahantu hatagira amazi ahagije bushobora kunganirwa no kuhira, aho hari abantu benshi bagize uruhare mu gikorwa kiri gukorwa cyo kuhira ibigori kugira ngo byongererwe amazi.

Umuhinzi uhagaze ahantu hanini hatunganyijwe ku buryo hashobora gukoreshwa ubuhinzi bwifashishwamo.

Umutegarugori w'umuhinzi ukora ubuhinzi bw'imboga z'amashu, aho ari mu gikorwa cyo kuhira kugira ngo yongerere amazi imbuto ze zibashe gukura neza azabone umusaruro yifuza abashe kwiteza imbere.

Ahantu heza hatunganyijwe hagashyirwa ibikoresho byifashishwa mu kuhira imyaka bityo bigatuma ubuhinzi bugenda neza kubera ko ibiribwa biba byabonye amazi ahagije, bikabasha gukura bigatanga umusaruro wifuzwa n'ubuhinzi.

Imirasire y'izuba ni ibikoresho bishobora kwifashishwa mu gufata imbaraga z'izuba ikazihinduramo imbaraga z'amashanyarazi yakwifashishwa mu bikorwa bitandukanye, harimo kuhira bityo umuhinzi akagira umusaruro ushimishije.

Umuhinzi w'umwuga uri mu gikorwa cyo kuhira, akaba yambaye imyenda y'umukara afashe umupira uri kuvamo amazi mu ntoki, ari kuhira imyaka kugira ngo ayongerere amazi ibashe gukura neza.

Umuhinzi ubikora kinyamwuga uhagaze ku ruhande, akaba ari mu gikorwa cyo kuhira ubutaka kugira ngo bugire amazi ahagije. Hirya y'imirima ye hari insina z'urutoki, zishobora gutanga umusaruro na zo bikamufasha kwiteza imbere.

Umuhinzi w'umwuga uri mu gikorwa cyo kuhira inyanya afatanyije na mugenzi we uri hirya bigaragara ko igihe inyanya zizaba zeze zizatanga umusaruro ndetse bakagira amafaranga ahagije.

Ibyanya byagenewe ubuhinzi, bitunganyijwe neza ku buryo hanifashishwa uburyo bugezweho bwo kuhira kugira ngo ibihingwa bibone amazi ahagije, bityo bishobore gukura, bitanga umusaruro ushimishije, bitume umuhinzi atera imbere.

Umuhinzi w'umwuga uhinga ibitunguru bigaragara ko kugira ngo abone umusaruro uhagije agomba kubyihira bityo akiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we n'igihugu muri rusange.

Umurima w'imbuto zitandukanye urimo igikoresho kigezweho kifashishwa mu kuhira kugira ngo cyongere amazi mu butaka, bityo ibihingwa bihinze bishobore gukura neza bitange umusaruro umuhinzi yifuza.

Imisozi miremire ishobora gukorerwaho ubuhinzi ndetse n'ikibaya kirimo ikiyaga, gishobora gukorerwamo uburobyi cyangwa se ubworozi bw'amafi, ni bimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi bishobora gutuma igihugu gitera imbere.

Ibice bigizwe n'imisozi miremire hari ikirere kirimo ibihu byinshi aho iyi misozi ishobora gukoreshwa mu buhinzi butandukanye bityo umuhinzi akiteza imbere akabona n'ibyo kurya bitandukanye.

Igice kigaragaramo imisozi idahanamye cyane ndetse hakaba hagaragaramo n'ikiyaga, ni bimwe mu bice bishobora gufasha mu iterambere ry'Igihugu, aho abaturiye hafi bashobora gukora uburobyi bw'amafi ndetse bagakora n'ubuhinzi nta kibazo.

Ibice by'imisozi miremire bikorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi bityo umuhinzi akaba ashobora kugira umusaruro ndetse akagira n'iterambere iwe mu rugo, si ibyo gusa kandi hariho n'ibiti by'ubwoko butandukanye bishobora kwifashishwa mu mirimo y'ubwoko bwose.

Igice kigizwe n'imisozi miremire ikorerwaho ibikorwa bitandukanye, harimo ubuhinzi bw'ibyo kurya ndetse n'ubuhinzi bw'amashyamba, bushobora gutuma abaturage biteza imbere, binyuze muri ibyo bikorwa bihakorerwa by'ubuhinzi.

Abahinzi batandukanye bari mu gishanga gihinzemo ibihingwa byinshi bishobora guteza imbere abahinzi babihinze harimo ibigori ndetse hakaba hari n'ibiti bigaragara ku musozi hakurya na byo bishobora kurwanya isuri.

Ibice bitandukanye birimo imisozi iringaniye biriho ibihingwa bitandukanye n'ibimera by'ubwoko bwose bikaba bishobora kwifashishwa mu gukomeza kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima.

Ahantu hanini hafite ubuso buhagije bugizwe n'ibihingwa bitandukanye, harimo amashyamba n'ibindi bimera bishobora kugira uruhare runini mu iterambere ry'Igihugu, nk'amashyamba yakoreshwa mu kubona imbaraga, harimo ibicanwa cyangwa se ibikoresho byo kubaka.

Igice kigizwe n'imisozi miremire ikorerwaho ubuhinzi butandukanye ndetse n'igice kigaragara ko gituwe n'abaturage aho harimo inzu ndetse hafi y'inzu hakaba hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi hakaba hari n'ibikorwa by'amashyamba bitandukanye.

Ibice bigizwe n'imisozi ikikije ikiyaga, bigaragara ko ari ahantu heza nyaburanga, hashobora gukorerwa ibikorwa bitandukanye by'ubukerarugendo, bityo bikinjiriza igihugu amafaranga menshi ahagije.

Ibice by'imisozi miremire bigaragara ko ibikorwa remezo by'aho biri mu bice byo hejuru aho ibice byo hasi by'imisozi bikorerwamo ubuhinzi bityo bigafasha abahinzi kwiteza imbere bakabona ibyo kurya mu bice bitandukanye.

Ibyiza nyaburanga birimo parike ni bimwe mu bikorwa remezo bifasha Igihugu mu iterambere aho abantu benshi baturuka mu bice bitandukanye baje kuyisura bigatuma Igihugu kigira ubukungu bukazamuka bukagera hejuru.

Ibice bigizwe n'imisozi miremire, ikorerwaho ubuhinzi butandukanye, aho hariho n'ibiti by'amashyamba bishobora kwifashishwa mu mirimo igiye itandukanye, ubuhinzi bukorerwa kuri iyi misozi, bufasha abaturage kubona ibyo kurya ndetse bakanasagurira n'amasoko.

Ikibaya kinini gitunganyijwe gikikijwe n'imisozi miremire gishobora gukorerwamo ubuhinzi butandukanye, gikorerwamo ubuhinzi bw'umuceri cyangwa se ibigori, bityo bigatuma abahinzi benshi batera imbere n'Igihugu kigatera imbere.

Ibice bigaragaramo ibikorwa bitandukanye harimo ubuhinzi bw'icyayi bukorerwa ku misozi ndetse hakaba n'ikiyaga gishobora gukorerwamo imirimo itandukanye harimo ubutwazi bw'abantu ndetse n'ibintu ndetse n'uburobyi.

Imisozi miremire ikorerwaho ubuhinzi bushobora gutuma umuturage abona ibyokurya bihagije agasagurira amasoko, akiteza imbere, agateza imbere umuryango we, agateza imbere n'Igihugu ku buryo byatuma agira ubuzima bwiza.

Agace kagizwe n'imisozi miremire, irimo ibimera bitandukanye, ahari ikirere kirimo ibihu byinshi ndetse bikaba bigaragara ko ahantu hashobora kuba hasurwa n'abantu batandukanye, hakinjiza amafaranga.

Ahantu heza hagizwe n'imisozi miremire ikorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'indi mirimo itandukanye, hahinze ibiti by'amashyamba, icyayi gihinze ku misozi gishobora kuba impamvu y'ubukungu ku baturage benshi bahatuye ndetse n'abakora ubwo buhinzi.

Ibice bigizwe n'imisozi miremire iriho ibihingwa by'ubwoko butandukanye ndetse hakaba hakorerwa n'imirimo myinshi y'ubuhinzi aho abaturage bashobora kubona ibyo kurya biciye mu buhinzi bakora ndetse bagashobora no kwiteza imbere.

Ibyiza nyaburanga birimo imisozi miremire iriho ibimera by'ubwoko butandukanye bushobora gufasha igihugu mu iterambere aho binyuze mu bukerarugendo igihugu cyinjiza amafaranga abaturage bagatera imbere ndetse n'igihugu kigatera imbere.

Ahantu heza harimo inzira nyabagendwa hakaba hagaragaramo ibiti by'ubwoko butandukanye harimo n'inyamaswa izwi ku izina ry'agasumbashyamba bityo rero hano hashobora gukorerwa ibikorwa bitandukanye birimo ubukerarugendo.

Umuhanda cyangwa se inzira nyabagendwa idatunganyije neza ikikijwe n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye, igira uruhare mu mihahiranire y'abantu bari kure, mu gihe ibicuruzwa bishobora kuhanyura bitwawe, bikagera ku bandi bantu.

Inka ifite amabara umukara n'umweru ikaba yororewe mu kiraro kiza cyubatse bigaragara ko gikomeye, cyubakishijwe ibiti n'imbaho hasi hashashemo ibyatsi bizavamo ifumbire.

Inkoko nyinshi zikiri ntoya zororewe ahantu hamwe, zitanga umusaruro mwinshi iyo zigaburiwe neza zitanga inyama ndetse zikaba zishobora gutanga amagi yakwifashishwa n'abantu batandukanye, hakaboneka indyo yuzuye.

Ubworozi bwa kijyambere bwo korora inka bukorerwa ahantu hatunganyijwe hari ibiraro byiza ku buryo inka zitanga umusaruro haba mu gutanga amata cyangwa se igihe byaba ngombwa ko zitanga inyama.

Ubworozi bw'inkoko bukorewe ahantu mu rugo hari n'ibiraro byororerwamo andi matungo bishobora gutuma izi nkoko zikura neza kubera ko zibasha kwisanzura zigafata ibyo kurya ahantu hose.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ihene ni bumwe mu bukorwa n'abantu benshi bigatuma ingo nyinshi ziteza imbere bityo umusaruro ukaboneka hakabaho iterambere kuri bose ndetse no ku Gihugu muri rusange.

Ibiraro byiza bitunganyijwe, aho hororerwamo inka zitanga umusaruro ushimishije, bityo umworozi akaba ashobora kubona amata yo kunywa mu rugo ndetse agaha n'abandi benshi bayakeneye, bikamwinjiriza amafaranga.

Ibiraro byiza bitunganyijwe byororerwamo inka, zikagaburirwa ibyokurya bihagije, bityo zigatanga umusaruro, umworozi akiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we n'Igihugu kigatera imbere.

Ubworozi bw'amatungo bukorwa cyane cyane ni ubworozi bw'ingurube, bikorerwa ahantu hatunganyijwe, harimo ibyo kurya bihagije bituma ingurube ikura neza, igatanga umusaruro bigafasha umworozi kwiteza imbere.

Ubworozi bw'inka bukorewe mu kiraro, bufasha umworozi kwiteza imbere, aho abona ifumbire rihagije, akabona umusaruro mwiza aho ashobora kubona amata, bigatuma ubuhinzi bwe bugenda neza n'Igihugu kigatera imbere.

Inzu yabugenewe ikorerwamo ibikorwa by'ubworozi inkoko, aho harimo inkoko zikuze ndetse hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira kugira ngo zibashe kugira umusaruro, ushimishije waba uw'amagi cyangwa se inyama.

Ubworozi bugezweho bwa kijyambere bwo korora inkoko aho zororerwa ahantu zigahabwa ibiryo bihagije ndetse harimo n'ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira bityo zigatanga umusaruro w'amagi ahagije ndetse zikaba zishobora gutanga n'inyama.

Abaganga b'amatungo batandukanye, bari gukurikirana igikorwa cyo kwita ku matungo ahantu hatunganyijwe hari urupangu, bibarinda kuba bakomeretswa n'inyamaswa cyangwa se n'amatungo bari kwitaho.

Ibiraro byiza bitunganyijwe aho harimo umuntu ushinzwe gukurikirana ubworozi bw'inkwavu bityo bigatanga umusaruro umworozi akagira umusaruro yifuza mu gihe gito akabasha kwiteza imbere agateza imbere n'umuryango we.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko, aho udushwi twinshi turi kororwa, kugira ngo tuzakure tuvemo inkoko nyinshi nziza, tworowe rero ahantu hatunganyijwe kugira ngo tuzatange umusaruro wifuzwa.

Ahantu hatunganyijwe neza ku buryo harimo ibikoresho bihagije byifashishwa mu bikorwa byo korora inkoko, harimo imishwi ikiri mito igomba gukura, ikavamo inkoko nkuru zitanga umusaruro ushimishije.

Umugabo uhagaze wambaye ishati irimo uturongo duhagaze n'udutambitse n'amabara avanze y'umweru n'umukara ahagaze hafi y'ibiraro by'inka bikorerwamo ubworozi kugira ngo akurikirane uburyo bikorwa.

Inkoko nyinshi zorowe kijyambere bigaragara ko zizatanga umusaruro, umworozi akagira ubukungu buteye imbere kubera ko azabona amafaranga avuye mu bworozi, agateza imbere umuryango we ndetse agateza imbere n'igihugu.

Umworozi wicaye afashe ibase ari kuhira inka kugira ngo ibashe kubona amazi ayifasha mu igogora ndetse kugira ngo ishobore kugira ubuzima bwiza ndetse itange umusaruro ushimishije.

Ubworozi bw'inkoko za cyijyambere zikiri nto ,aho zororewe ahantu harimo ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira, kugira ngo zibashe gukura neza umworozi abone umusaruro uhagije ,yiteza imbere ateze imbere umuryango we ,ndetse n'igihugu.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere zororewe ahantu hatunganyijwe harimo ibikoresho bizifasha mu kubona ibyo kurya bigatuma zikura neza umworozi akagira umusaruro mwiza ndetse agashobora kwiteza imbere.

Urwuri runini rurimo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'ubwatsi buhagije, hakaba harimo amatungo y'ubwoko bw'inka, zirisha kugira ngo nyira zo yiteze imbere ndetse abone ubukungu buhagije.

Amatungo magufi bukorewe mu rwuri, aharimo ubwatsi butandukanye, butuma ihene zikura vuba ndetse zigatanga umusaruro, bigafasha umworozi, kwiteza imbere, bigateza imbere n'urugo rwe ndetse n'igihugu kigatera imbere, binyuze mu bworozi.

Ubworozi bugezweho bw'ingurube, aho yororewe ahantu hatunganyijwe, hasi hakaba harimo ibyo kurya bihagije, bituma ikura neza, igatanga umusaruro bityo umworozi akiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we.

Mu bworozi bugezweho bw'ingurube, aho ingurube ihabwa ibyo kurya bihagije, igatanga umusaruro kubera ko iba yakuze neza, umworozi akagira umusaruro mwiza ndetse akungukira no mu bworozi akora.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ihene z'ubwoko butandukanye ni bumwe mu bigira umusaruro mwinshi aho bifasha umuturage cyangwa umworozi kubikora akiteza imbere ndetse akubaka umuryango we.

Ibiraro byiza bitunganyijwe, bikorerwamo ubworozi bw'inka bwa kijyambere. Aho umworozi ashobora kugaburira inka ze, zigatanga umusaruro, haba amata cyangwa se inyama, bigatuma agira ubukungu, bwifashe neza.

Itungo riri mu bwoko bw'ibinyamabere ryitwa inka, rimwe mu matungo agira uruhare runini mu iterambere ry'abaturage, aho rishobora gufasha mu gutanga amata cyangwa se rigatanga inyama ku mworozi, bityo akiteza imbere.

Ahantu heza hatunganyijwe hari ibiraro byubatse mu buryo bwa kijyambere hakorerwa ubworozi bw'ingurube zishobora gutanga umusaruro ku mworozi akagira amafaranga ahagije, akabona n'ibyo kurya binyuze mu kubona ingurube zishobora kubagwamo inyama.

Ahantu hanini hateguwe hahurizwa amatungo arimo inka kugira ngo abaganga b'amatungo bashobore kuyitaho, haba mu kuyarinda indwara ndetse no kuyaha imiti ishobora gutuma atanga umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ihene, ni bimwe mu bikorwa bishobora gutuma umuntu atera imbere mu buryo bwihuse, bityo bikoroshya ubuzima bwe ndetse bigatanga n'iterambere ku gihugu.

Inyubako yateguwe neza ikorerwamo ibikorwa by'ubworozi bw'inkoko aho umuntu ushinzwe kwita kuri ubu bworozi ahagazemo ndetse ateruye inkoko kugira ngo agaragaze ibyishimo aterwa n'umurimo we.

Inkoko nyinshi z'amabara atandukanye zororewe ahantu hamwe hatunganyijwe bityo zitanga umusaruro w'amagi cyangwa w'inyama kugira ngo umworozi yiteze imbere ndetse abone n'ibyo kurya byujuje intungamubiri.

Umuhinzi w'umwuga ufashe umusaruro w'amasaka y'ubwoko butandukanye mu ntoki agaragaza ko iyo amasaka yitaweho neza ashobora gutanga umusaruro umuhinzi akagira inyungu akiteza imbere.

Umuhinzi uteruye inkoko iriho umusaruro we bigaragara ko yishimiye ibikorwa bye, umusaruro w'ibishyimbo ni umwe mushobora guteza imbere umuntu igihe yabikoze neza agakuramo amafaranga.

Ububiko bunini buhagije bwateguwe babikemo imbuto zizifashishwa mu bikorwa byo guhinga cyangwa se mu kugaburira abantu kugira ngo iterambere ryiyongere, ndetse n'Igihugu gitere imbere mu bice bitandukanye.

Ibiganza bibiri kimwe kirambuye ikindi gihinnye, ikiganza kirambuye gifite imbuto z'ibishyimbo, mu gihe ikindi gihinnye, cyubitse kiri gufasha mu kuzirobanura, umuhinzi akaba ari gutoranya imbuto azahinga.

Umufuka munini urimo imbuto, bigaragara ko umuhinzi yafashe aho nkeya mu kiganza, akaba ari kuzireba, izi mbuto rero zishobora kwifashishwa mu buhinzi butandukanye, aho abahinzi bashobora kuzifata bakongera umusaruro uboneka.

Ikiganza kirambuye, kirimo imbuto zindi mu gihe imbere yacyo hari urubuto rwatangiye kumera mu butaka bwiza butunganyijwe, burimo ifumbire, bigaragara ko uru rubuto ruzakura neza.

Umuhinzi w'ibinyampeke ufite mu biganza bye impeke nyinshi, yishimira umusaruro we uzamufasha kwiteza imbere agateza imbere umuryango we ndetse bakabona n'ibyo kurya bityo n'igihugu kigatera imbere binyuze mu bucuruzi.

Ibiganza bibiri bifatanye, birimo imbuto nziza, umuhinzi yabashije gusarura, bikaba bizamufasha kwiteza imbere ndetse akabona n'ibyo kurya, umuryango we ukabaho neza kubera ubukungu buzazanwa n'ubuhinzi akora.

Abahinzi benshi batandukanye, bahagaze ahantu hamwe, bazengurutse umusaruro mwinshi w'ibigori, ushobora gufasha mu bice bitandukanye, aho bishobora gukora nk'amafunguro ndetse bikifashishwa mu gutanga imbuto ku bandi bahinzi.

Ibiganza by'ubuhinzi ufashe imbuto z'umuceri mu ntoki bigaragara ko ari kuzitera mu butaka bw'umukara bufite ifumbire nziza, bityo izi mbuto zikazakura neza zigatanga umusaruro wifuzwa ku muturage.

Umuganga w'amatungo wambaye bijyanye n'imirimo akora ari kwita ku nka iri ahantu hubakiye hazitiye kugira ngo idateza ibibazo bityo bitume igira ubuzima bwiza izatange umusaruro mwiza.

Umuganga w'amatungo uri ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi bw'amatungo hubatse neza, yambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba yambaye n'uturindantoki, bifashisha igikoresho afite mu ntoki kugira ngo atere intanga.

Inka zifite amahembe maremare ziri kwitabwaho n'abavuzi b'amatungo bambaye imyenda yabugenewe, bakaba bari kubikorera ahantu hateguwe hubatse neza kugira ngo inka zitabateza ibibazo.

Umuganga w'amatungo wambaye ibijyanye n'umwuga akora, aho yambaye: itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'ubururu, afite ibikoresho bimufasha mu mirimo ye ya buri munsi, aho akurikirana ubuzima bw'amatungo kugira ngo atange umusaruro ndetse akure neza.

Umuganga w'amatungo wambaye imyambaro yabugenewe, igisarubeti cy'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, ari mu gikorwa cyo gukurikirana amatungo kugira ngo atange umusaruro ku mworozi, akabikorera ahantu habugenewe kugira ngo bidateza ibibazo.

Umuganga w'amatungo wambaye imyambaro yabugenewe, harimo: isarubeti y'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, akaba afite urushinge mu ntoki, ahagararanye n'abandi bantu babiri, bari kumufasha mu gikorwa cyo kwita ku itungo kugira ngo ritange umusaruro.

Ahantu heza hatunganyijwe hahurira amatungo atandukanye kugira ngo avurwe n'abavuzi b'amatungo, bashobore gutuma agira umusaruro mwiza ndetse umworozi atere imbere, ateze imbere n'umuryango we.

Inka nziza nyinshi z'inyarwanda, zifite amahembe maremare, bigaragara ko ziri ahantu hatunganyijwe, hari uruzitiro, ku buryo zishobora kuhahererwa ibintu byinshi bitandukanye, byaba iby'ubuvuzi ndetse no kwitabwaho mu bundi buryo.

Abaganga b'amatungo bambaye imyambaro yabugenewe, harimo: uturindantoki, agapfukamunwa, bari kwita ku itungo kugira ngo rigire ubuzima bwiza, bityo babashe gukomeza gukora akazi kabo neza.

Abaganga b'amatungo bari kuganirira hamwe ibyo bakora kugira ngo bateze imbere umurimo wabo, ari wo kwita ku matungo kugira ngo bitange umusaruro, bishimisha abahinzi ibikorwa byabo ndetse barusheho kubona akazi kanoze.

Umuganga w’amatungo wambaye imyambaro yabugenewe, yambaye itaburiya y’umweru ndetse akaba yambaye n’uturindantoki tw’ubururu, ari gukurikirana ibikorwa by’ubworozi ni ahantu habugenewe, bityo bigatuma amatungo akura neza, umworozi akabona umusaruro uhagije.

Abavuzi b'amatungo bambaye imyambaro yabugenewe, amataburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, bari ahantu hatunganyirizwa inyama zitandukanye kugira ngo basuzume ubuziranenge bwazo, zitazagira ikibazo ziteza.

Umuvuzi w'amatungo wambaye imyambaro yabugenewe, akaba yambaye igisarubeti cya kaki, ari kwita ku nka kugira ngo arebe niba yagira umusaruro mwiza ndetse izafashe umworozi kwiteza imbere.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ibinyamabere yicaye hasi ikaba yegamye, iyi ni imwe mu nyamaswa ishobora kwifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'ubukerarugendo aho ishobora kwinjiza amafaranga ku Gihugu.

Inyamaswa nziza zizwi ku izina ry'imparage zigira amabara agiye anyuranyemo y'umukara n'umweru bigaragaza ko hano ziri hashobora gukorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo bikinjiza amafaranga.

Inyamaswa z'inkazi ziri mu mazi bigaragara ko zifite amahane zishobora kuba bimwe mu bikorwa by'iterambere aho zishobora gusurwa na ba mukerarugendo bikinjiza amafaranga y'igihugu.

Inyamaswa nziza yo mu bwoko bw'ibiguruka, igira uruhare runini mu iterambere ry'Igihugu, aho abantu benshi bashobora kuyisura bikinjiza amafaranga ashobora kongera ubukungu bw'Igihugu, bityo n'abaturage bakongera ubukungu.

Inyamaswa nini ziri ahantu hari ubwatsi bwumye, izi zishobora kugira uruhare mu iterambere ry'Igihugu binyuze mu bukerarugendo, aho abantu bazisura bigatuma Igihugu cyinjiza amafaranga.

Igiti kinini cyakuze neza kirimo inyamaswa izwi ku izina ry'ingwe iri ahantu heza hashobora gusurwa ku buryo byakwinjiriza Igihugu iterambere ndetse n'amafaranga menshi.

Inyamaswa zitandukanye ziri mu bwoko bw'ibiguruka ariko ubuzima bwazo ahanini zibumara ziri mu mazi aho zikuramo ibyo kurya, bityo rero izi nyamaswa zishobora kugira uruhare mu iterambere ry'Igihugu harimo ubukerarugendo.

lnyamaswa zo mu bwoko bw'inkende, ni zimwe mu zishobora guteza imbere igihugu, binyuze mu bukerarugendo, aho abantu benshi batandukanye bakunda kuzisura, bakagera ibyo batanga kugira ngo byinjirize igihugu mu bukungu.

Ahantu heza hagaragara ibyatsi byumye ndetse n'igiti kinini kidafite amababi, hakaba kandi hari n'inyamaswa zitwa udusumbashyamba, zigaragara ko aha hantu hashobora gukorerwa ubukerarugendo.

Inyamaswa nyinshi zigaragara muri pariki zishobora kongera ubukungu bw'Igihugu binyuze mu bukerarugendo aho ba mukerarugendo baza gusura izi parike bikinjiriza amafaranga y'Igihugu, harimo n'imodoka zitandukanye.

Inyamaswa y'inkazi izwi ku izina ry'ingwe aho igira isura nziza ariko ikaba izwiho amahane ku buryo ishobora kwica inyamaswa zindi mu gihe byaba bihuye ariko igira uruhare mu bukerarugendo butandukanye.

Inyubako nziza zigezweho zubakishije amatafari ahiye, zifite ubusitani bwiza aho umuntu uhagannye ashobora kuhishimira akaba yahakorera ibikorwa bitandukanye, bishobora kumufasha kwiteza imbere agateza imbere n'urugo rwe.

Urusobe rw'ibinyabuzima rugizwe n'inyamaswa n'ibimera bigira uruhare mu iterambere ry'umuturage aho inyamaswa nk'intare zifasha mu bukerarugendo, zirasurwa bigatuma Igihugu gitera imbere.

Inyamaswa ziri mu bwoko bw'ibiguruka, zibera mu mazi, aho zikuramo ibizitunga, zishobora kugira uruhare mu guteza imbere igihugu, aho zishobora kwinjiza amafaranga binyuze mu bukerarugendo, igihugu kigatera imbere ndetse n'abaturage bagatera imbere.

Inyamaswa nyinshi zitandukanye ziri muri zimwe mu zigira uruhare mu iterambere ry'Igihugu, aho binyuze mu bukerarugendo amafaranga menshi yinjira, bityo bigatuma Igihugu gitera imbere n'abaturage bagatera imbere.

inyamaswa y'inkazi izwi ku izina ry'ingwe, imwe mu nyamaswa zitinywa cyane ndetse bikaba bishoboka ko yakwica ayandi matungo menshi, ishobora rero guteza imbere igihugu binyuze mu bukerarugendo.

Inyamaswa nziza cyane iri mu bwoko bw'ibinyamabere ihagaze ahantu heza hari ibimera bitandukanye bushobora gufasha Igihugu mu iterambere binyuze mu bukerarugendo aho abantu benshi bashobora kuyisura cyangwa se bagasura bino bice bikinjiriza amafaranga Igihugu.